Umugabo uhetse umwana mu mugongo, bose bambaye imyambaro y'ibara ry'ubururu bwerurutse, ndetse hakaba harimo n'amagambo agaragaza sosiyete runaka y'ubucuruzi cyangwa se y'itumanaho.

Ishusho ryafashwe n'inziramugozi ndetse rigaragaza uko amafaranga yagiye yoherezwa ndetse nuko yagiye yishyurwa ndetse nibyo yagendaga akora.

Icyangombwa cy'icungamutungo gifite amabara y'umukara ndetse n'amagambo yandikishijwe amabara y'umweru. Hasi hariho umurongo utambitse w'ibara ry'umuhondo.

Imitako myiza ijyanye n'umuco yo kwambara mu ijosi ndetse no ku maboko, iyo mitako imanitse ku rukuta, aho hariho udushinzwe gufata iyo mitako, ifite amabara atandukanye arimo umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'ayandi.

Ububiko bw'imyenda yo kwambara y'abadamu, harimo imyenda y'amabara atandukanye, harimo umutuku ndetse n'umuhondo n'andi mabara menshi cyane, bigiye bitondetse ku murongo, ku buryo umuntu wese yaza agahitamo umwambaro yifuza ndetse n'uwo abona umukwiriye.

Icyumba kirimo inkweto. Z'igitsina gore zo kwambara zikaba zifite amabara atandukanye, arimo umukara ndetse n'ubururu, inyuma gatoya hari urukuta bigaragara ko ruriho udushinzwe kubika ibintu.

Urugo ruzitiye rukikije, mo imbere harimo ikinyabiziga ndetse hakaba harimo n'inzu bigaragara ko ari inzu y'ubucuruzi, imbere y'urwo rugo hejuru gatoya hari umuyoboro w'amashanyarazi ndetse n'icyapa kiranga.

Iruhande rw'umuhanda hari icyapa kigaragaza sosiyete ikora imirimo runaka, ndetse iruhande rw'uwo muhanda hari ubusitani burimo indabyo z'amabara y'icyatsi hepfo gatoya hari urugo rukikije aho hantu.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara abagenzi cyangwa se abantu muri rusange, gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, mo imbere mu kirahure harimo intebe, hakaba hari n'akantu k'ibara ry'umuhondo gafashe imbere.

Imodoka y'ibara ry'umukara ihagaze ahantu, igurishwa agaciro kangana n'amafaranga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu. Iyi modoka iragurishwa kugira ngo izagendwemo n'abantu ndetse...

Inzu y'ubucuruzi irimo amata ndetse n'amazi ndetse imbere hari ububiko buteretsemo ibikombe, isahani ndetse hejuru y'ubwo bubiko hariho indobo.

Icyangombwa cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyerekana inyemezabwishyu ko ibicuruzwa byaguzwe cyangwa se ko byishyuwe n'umuntu runaka, igihe amaze kwishyura ibyo bicuruzwa aragihabwa kikaba kibasha kwerekana niba koko yishyuye.

Ibiganza bifashe amafaranga menshi atandukanye y'igihumbi. Iruhande rw'ibyo biganza hari imashini ibara imibare, irimo gatanu, umunani na gatandatu.

Amafaranga y'Igihugu cya Congo. Amafaranga icumi. Akoreshwa mu kugura ibintu runaka. Yaba ku masoko rusange ndetse no mu baturage ubwabo.

Amafaranga y'igihugu cya Congo, amwe muri ayo mafaranga ariho abagabo batatu bicaye amaboko yabo aboheye inyuma, ndetse andi mafaranga yo hejuru hariho ikirangantego.

Icyumba kirimo ameza ndetse n'intebe, hakaba harimo n'uburyamo, bigaragara ko bahaganirira cyangwa se bakaba baharuhukira igihe umuntu ananiwe cyangwa se yumva ashaka kuruhuka aryamye.

Umuhanda nyabagendwa iruhande rwawo hari inyubako ndende, ndetse imbere y'iyo nyubako ndende hari imodoka zihagaze z'amoko atandukanye, ndetse hakaba ari n'ibiti birebire bifite amabara ajya gusa n'icyatsi.

Inyubako ndende iri iruhande rw'umuhanda ndetse iruhande rw'uwo muhanda hari ibiti biteye bisa n'ubusitani bifite ibara ry'icyatsi, inyuma yaho gatoya hari abagenzi bari muri uwo muhanda barimo batambuka.

Icyumba kirimo intebe z'ibara ry'umukara, hakaba harimo n'umutako muremure w'iminsi mikuru, ndetse hasi gatoya hari impano zihabwa abantu, imbere gatoya hari urukuta rw'ibara ry'umuhondo, harimo imirongo itambitse y'ibara ry'umweru.

Umukobwa muremure wambaye umwambaro w'umweru wabaganga ndetse afite imisatsi miremire y ibara ry'umukara, ari guseka bigaragara ko yishimye ndetse yambaye udushinzwe kwita ku barwayi mu ijosi.

Icyumba cy'ubucuruzi gicururizwamo inkweto. Ndetse hari abantu benshi bakoze uruziga barimo baganira, harimo ab'igitsina gabo ndetse n'abandi bicaye ku ntebe, ziri iruhande n'izo nkweto zicuruzwa.

Umwanya w'ubucuruzi bw'imbuto. Harimo amashu, inyanya ndetse n'imiteja, n'ibindi bicuruzwa ndetse iruhande rwabyo hicaye umucuruzi w'igitsina gore urimo ucuruza bino bicuruzwa.

Inyubako ndende iri iruhande rw'umuhanda. Imbere y'uwo muhanda harimo ibinyabiziga ndetse n'ipikipiki, hakaba hari n'abantu bari gutambuka imbere y'iyo nyubako no mu muhanda, bajya iburyo ndetse n'ibumoso.

Umwanya w'ubucuruzi, ukaba urimo imbaga nyamwinshi, bigaragara ko bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, ndetse abantu biganjemo muri abo ngabo ni ab'igitsina gore, imbere gatoya hari umubyeyi uhetse umwana umugongo.

Isoko rusange, ririmo abaturage bacuruza imbuto zitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Harimo ibitoki ndetse n'ibirayi. Hakaba harimo abaturage benshi bigaragara ko baje kugura ndetse no kugurisha.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Icyapa cy'itumanaho kigaragaza imibare ikoreshwa mu kohereza ndetse no kwakira amafaranga ndetse hariho n'amazina y'uwo muntu woherejwe cyangwa se ugiye kwakira amafaranga.

Ipikipiki ihagaze iruhande rw'umuhanda nyabagendwa. Ndetse iyo pikipiki kandi ifite umuzigo inyuma. Ruguru y'umuhanda hariho urugo, rukoresheje amatafari ahiye.

Ipikipiki ishinzwe gutwara ibintu byaguzwe, ndetse imbere y'iyo pikipiki hari umugabo wambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi ndetse n'irindi bara uhagaze ahantu hazamuka.

Icyumba kirimo abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, harimo ububiko bufite amatara ari gutanga urumuri, imbere y'ubwo bubiko hariho intebe eshatu.

Inyubako ifite ibara ry'umutuku ndetse imbere ikaba ifite urugo rw'ibara ry'icyatsi ndetse n'amadirishya y'umukara, imbere y'urwo rugo, hari igiti kirekire cy'ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye byo kunywa, harimo amazi ndetse n'ibindi bicuruzwa bikozwe mu mbuto cyangwa se mu bindi bintu bitandukanye, imbere yaho hari umuntu w'igitsina gore.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ndetse hakaba harimo abantu bisa nk'aho barimo bahitamo cyangwa se baje kugura bimwe muri ibyo bicuruzwa biri muri iyo nzu.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu hamwe, harimo abicaye ndetse n'abahagaze, harimo abarimo batambuka bava ahantu hamwe bajya ahandi, mu bigaragara imbere yabo, hari ameza arambitseho ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye.

Udupapuro duto dutoya tw'umweru twanditseho amagambo ndetse dutondetse ku meza, hakaba hariho ikiganza cy'umuntu kirimo kigenda gitondeka utwo dupapuro kuri y'ameza ari aho ngaho.

Icyumba cy'ubucuruzi, kirimo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitondetse ku murongo ndetse bikaba biri mu dufuniko twabyo bigiye bifunitsemo, bigaragara ko bicuruzwa ndetse bikanagurwa.